Akabari karagaragara ho urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, Bishimye ku buryo buri wese ubona ko yishimye aganira na mugenzi we.

Bara ahahurira abantu benshi bafite bahujwe na gahunda imwe ndetse hateguye neza kuko buri wese ufite ubushobozi bwo kuza muri bara araza agakonsoma ibirimo, akicara ku myanya y'icyubahiro yabugenewe byarangira agataha.

Ahantu hategurirwa ibyo kurya byokeje birimo ibirayi ndetse n'inkoko yokeje. Ni ibiribwa byifashishwa nk'abantu batandukanye mu mahoteri, mu maresitora n'ahandi.

Akabari karimo ibinyobwa bitandukanye, ubwoko bw'inzoga butandukanye, aho abakiriya banwera ndetse n'aho binjirira.

Broshete ni inyama zitegurwa zokeje, baba bazishinze ku byo bita "imishito" bakazishyira ku mbabura, cyangwa ahagenewe ko zishya neza, barangiza bakazizana bakazigaburira abazikeneye.

Muri hoteli cyangwa se ahakirirwa abantu batandukanye hari umuteguro w'imigati, imbuto zitandukanye zifashishwa iyo bakira abantu, barazirya zikabafasha mu buzima bwabo.

Inyubako icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, aho abaza kubigura bahitamo ubwoko bw'ibyo bashaka, byaba ibisembuye n'ibidasembuye.

Ahantu hagaragara ibinyobwa bitandukanye, byifashishwa na bamwe mu babikenewe. Hazwi ku izina rya bare. Ni ahantu hahurira abantu benshi, bakagura ibyo binyobwa biri muri bare, byagenewe kugurishwa bigatanga amafaranga yo gukora ibindi.

Muri bara, ahahurira abantu benshi batandukanye, bagizwe n'urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino, bahafatira ibintu bitandukanye, ndetse bashobora kuhakurikiranira n'ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ibibanezeza n'ibinezeza umuntu buri munsi.

Ahiyakirera abantu batandukanye bigaragara ko bashobora, kuba bahagera baje gufata icyica inyota. Cizwi nk'inzoga cangwa se ibisembuye n'ibidasembuye.

Ifunguro riteguye neza, rigizwe n'ibikomoka mu buhinzi, imboga, ndetse n'ibikomoka ku matungo, aho hari ifiriti, salade, ndetse n'inyama.

Inyubako icurizwamo ibinyobwa bitandukanye, izwi ku izina rya bara harimo ibinyobwa by'ubwoko busembuye n'ubudasembuye harimo ibikoresho gakondo, intebe zibajwe mu biti ndetse n'ibisabo byifashishwa iyo bacunda amata.

Bare nahantu dusanga ibinyobwa bitandukanye, hagibwa n'abantu batandukanye bashaka kuhaganirira cyangwa se kugura ibyo binyobwa bibafasha kwica inyota bafite.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye ibisembuye, ibidasembuye hakaba ari ahantu abantu bahurira baje kuganira cyangwa kunoza gahunda zabo bagura ibyo binyobwa buri wese ku byo ashoboye.

Inyubako zigaragaza ko zicururizwamo ibintu bitandukanye, aho zimwe zicuruza ibinyobwa ndetse zigacuruza, zigacuruza n'amacumbi ndetse na Butike igaragaza ko icurizwamo serivisi zo kubika no kubikuza amafaranga ndetse no kugurisha ama inite.

Amazu acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye abantu bakundaga harimo ibiribwa, hakabamo ibinyobwa, ndetse hakabamo n'ibyo mu bwoko bw'imboga abaturage benshi bakundaga.

Aho bacururiza ibicuruzwa bitandukanye hagaragaramo ibicuruzwa by'ibinyobwa ndetse imbere y'aho bacururiza hari umwana wa nyiraho ubona uhagaze mu muryango.

Kuri butike ahantu hacururizwa ibintu by'ubwoko butandukanye. Imbere yayo hari umudozi w'inkweto uzwi ku izina rya korodoniye.

Inyubako igaragaraho ikirango cerekana ko ari bara. Bara ni ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye n'ibiribwa bitandukanye. Hahurira abantu benshi baje kuhaganirira ndetse no kugura ibyo binyobwa bihagaragara.

Inyubako zagenewe gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Imbere yazo haparitse imodoka ndetse n' umutaka wa MTN, aho batanga serivisi zo kubitsa no kubikura amafaranga.

Tanka zibikwamo amazi yifashishwa ahahurira abantu benshi mu rwego rwo gukora isuku ku ntoki zabo, hagambiriwe mu guca umwanda ndetse no kuwurwanya burundu.

Inyubako zagenewe gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, usangaho ibirango bigaragaza ko aho hantu hacururizwa. Bikorohe abakeneye ibyo bicuruzwa kumenya aho babishakira.

ahahurira abantu benshi bafite intego cyangwa icyerekezo gitandukanye habamo ibi ibyobwa cyangwa se ibiribwa bitandukanye baza abahaza cyangwa abahasura n'abahagana bifashisha iyo bagezemo

Icapa kigaragaza aho Hoteli Lapalume iherereye. Aho aho kandi, icapa gihagaze mu busitani bwiza cyane, bubereye amaso, kiranga aho iyi hoteli wayisanga.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, aho haba harashyizwe ibintu kugira ngo ubikeneye abibone hafi bitamugoye.

Inyubako zagenewe gukorerwamo mu bucuruzi butandukanye, aho zigaragaraho ibirango bigaragaza igikorerwamo, kandi hagaragara n'abantu bategereje ko bakingura ngo bagure ibibamo.

Butike ahacururizwa ibintu bitandukanye, higanje ibinyobwa by'amoko atandukanye abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite ibirango hejuru y'umuryango winjira, biranga ibicuruzwa bicururizwa muri iyi nyubako.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, aho umuntu agenda ashaka igikeneye akakigura, yakibura akaba yashakira ahandi muri izo nyubako kugeza akibonye.

Inyubako yagenewe gucuruza amacumbi bararamo, iyo abari mu ngendo bubiriyeho cyangwa bateguye guserukira mu gace izi nyubako zihereyemo, babagurisha ibyumba bararamo.

Inyubako igenewe gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho iyi nyubako ikinguye, hategerejwe abaguzi baza kugura ibicuruzwa biyirimo.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye aho abaguzi bakeneye ibintu bitandukanye byaba ibiribwa, byaba ibikoresho by'isuku, byaba ibinyobwa ubisanga ahantu nkaha muri botiki bidasabye kwirukira hirya no hino kure.

Mu isoko ry'imyenda, inkweto n'ibikapu, aho ababikeneye baza babisanga, bakabibona mu buryo butabagoye.

Inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho zigaragaraho ibirango biranga ibicuruzwa bicururizwamo.

Inyubako iriho izina ryayo ndetse iriho n'ibirango bya serivisi batanga, aho berekana ko bagurisha ibyumba byo kuraramo, ndetse hagakorerwa n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye.

Ahantu ku nyubako zagenwe, zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye. Ababikeneye barahaza bakabihasanga bakabihagurira.

Botike inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, imbere yazo hari umuntu ndetse n'umutaka ucuruza wa emutiyene utanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye by'ubukorikori，bigaragara ko harimo hasa nk' ahacururizwa ibintu nk'ibirahure ndetse n'ibibazwa.

Ahacururizwa ibyo kurya bitandukanye hagaragara ikirango cyuko hacururizwa n'ibihingwa cyangwa amatungo akoreshwa mu buryo aba yokeje.

Ahacururizwa ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, ndetse hagacururizwa n'imiti itandukanye irwanya udukoko ku bihingwa, hagacururizwa n'imirama yinazwa ikavamo ingemwe z'ibihingwa.

Ama amazu acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho bacuruza amagaze ndetse n'amashyiga byayo n'ibindi...

Ahantu mu nyubako zagenewemo gukorerwamo ubucuruzi butandukanye ,aho abakeneye ibicuruzwa bitandukanye baza babisanga bakabigura ku buryo buboroheye.

Ahantu hagenewe gukorerwa ubucuruzi butandukanye. Inyubako ziragaragaraho ibirango by'ibicururizwamo byo mu bwoko bw'ibinyobwa.

Inyubako zifashishwa mu bucuruzi butandukanye; aho abantu benshi baza baje kuhashaka serivise z'ibyo bakora bakazibona bitabagoye.

Inyubako iriho ibirango bitandukanye byerekana ibikorwa bikorerwa muri izi nyubako aho hari abaguzi baje kugura amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga.

Ahantu hari ibirango by'uko bacuruza inyongeramirire, ifasha mu buzima bwa muntu bwa buri munsi. Inyuma hari inzu akazu kanditseho inyongeramirere bacururiza, ubwoko bw'inyongeramirire bacururizamo.

Mu rusengero，ahahuriye abantu batandukanye， bambaye imyenda ya iniforume， aho bashobora kuba ari itsinda rishinzwe indirimbo zihimbaza Imana， muri uru rusengero.

Mu rusengero. Ahahurira imbaga nyamwinshi, tuhasanga umwigisha uri kuri gahunda yo kugabura iby'umwuka wera abaje mu rusengero, aho bahurira bose bagahimbaza Imana, urusengero rukaba ruzwi nk'aho abakirisito bahurira bavuga ijambo ry'Imana.

Abantu bari gusenga Imana bicishije bugufi, batuje bashyize imitima yabo n'ibibagoye byose imbere y'Imana. Korari ipfukamye imbere y'Imana isenga.

Urusengero aho abakirisitu bahuriye baje guhimbaza Imana. Aho bateze amatwi umwigisha uri kubagezaho inyigisho z'Imana.

Kampani ifite abikorezi cyangwa se abatwara ibikoresho byo muri abatwara ibikoresho byo muri iyi kampani zemerwa mu ruganda rukora sima.

Hoteli ihuriramo abantu benshi bafite gahunda zitandukanye, tuhasanga ibyo kurya ibyo kunywa bibasha gukoreshwa abo bantu biyakira, buri wese ku rwego rwe.

Hoteri, inyubako zagenewe kwakira abantu bakeneye serivise z'ibiribwa zibiteguye mu buryo butandukanye ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye.

Inyubako igaragara nka hoteli. Hoteli ni inyubako zagenewe kwakira abantu batandukanye, ndetse zicuruza ibintu bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, aho ushobora gusangamo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa byo mu bwoko bw'imboga n'imbuto, aho hari imiteja, hari ibitunguru, hari karoti, hari n'indimu.

Mu isoko ahakorerwa umwuga w'ubudozi, aho batunganya imyenda twambara muri moderi zitandukanye.

Mu isoko ry'imboga aho karoti, inyanya, powavro, intoryi biri gucururizwa mu isoko, aho abantu bose babikeneye baza babisanga bikaborohera kubibona kuko baba biboneye hamwe mu isoko ryayo.

Mumuhanda, ahagaragara ibinyabiziga bitandukanye, inyuma iruhande rwumuhanda hari inyubako y'isoko, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hahuriramo abantu benshi bagiye kugura ibyo bicuruzwa.

Mu isoko hacururizwa inyanya, abacu hari abacuruzi ndetse n'abaguzi bagwiriye ku bwinshi baje kugura izo nyanya.

Mu isoko ahari uruhuri rw'abantu benshi bahujwe no guhaha ibintu bitandukanye biba byaje ku magare, byinshi bipakinze mu bitebo bitandukanye.

Mu isoko ahacururizwa ibikoresho bitandukanye birimo amapantaro dusanga mu mangazini, birimo mare zifashishwa babika imyenda, birimo ndetse n'indi myenda dusanga mu maduka atandukanye. Harimo n'ibikoresho by'isuku, amabase n'ibindi.

Mu isoko aho abaguzi n'abagurisha bahuriye, turabona umucuruzi w'imishingirizo utegereje abaguzi, tukabona n'abandi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye bategereje ababigura.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibikoresho byifashishwa bakora isuku, bigaragaramo imikoropesho, amabase ndetse n'ibindi byifashishwa mu butetsi, imbabura, amasafuriya n'ibindi.

Imbere mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, aho abaguzi baza bashaka ibi bicuruzwa bakabibona ku buryo butabagoye.

Mu isoko ry'ibitoki n'ibindi biribwa, bitandukanye aho urujya n'uruza, rwaje guhaha ibi bitoki, ndetse n'ibi biribwa bitandukanye.

Mu isoko ahacururizwa ibintu bitandukanye. Isoko ni ahahurira abantu benshi bafite ibyo bakeneye bitandukanye, aho tubona nk amasafuriya, imyenda itandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho, uhagera cyangwa uhagana ari bubone mu buryo bumworoheye.

Mu isoko, ahacururizwa ibintu bitandukanye, aho tubona abantu benshi baje guhaha ibicuruzwa bicururizwamo, ho tubona ibigori, inkwi ndetse n’indobo zirimo ibindi bintu bitandukanye by’ibicuruzwa.

Isoko ryo mu caro, aho bacururiza ibintu bitandukanye bitanditse hasi. Ndetse harimo n'abaturage baje guhaha ibyo bikoresho.

Mu isoko aho bacururiza ibikoresho byakozwe bizwi nk'amabati y' amakura cyangwa se amabati yavanywe ku zindi nyubako. Yifashishwa n'abafite amafaranga make atabasha batabasha kugura amabati y' mashasha agasakazwa.

Ahacururizwa imyenda itandukanye yiganjemo amashati y'abagabo, amapantaro ndetse n'ubundi bwoko bw'indi myenda. Ubikeneye arabihabonera kuko biba bigaragara ku buryo, ijisho rya buri wese riba ribibona iyo ugeze aho bicururizwa.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye，harimo avoka， ibishyimbo， imineke，amaronji， ibinyomoro n'ubundi bwoko bw'imbuto butandukanye.

Inyubako igenewe gucururizwamo, aho haba hari urujya n'uruza rw'abinjira ndetse n'abasohoka bagiye guhaha ibicuruzwa biba muri iri soko.

Mu isoko, ahacururizwa ibintu bitandukanye by'ibiribwa byo mu bwoko bw'imbuto, imboga ndetse n'ibirungo byifashishwa mu cayi.

Ahantu ahagenewe gukorerwa ubucuruzi butandukanye higanje ibikoresho byifashishwa mu bana bavuka bizwi ku izina ry'ibigoma, ama esuwime ndetse n'ibindi bikoresho byiganjemo imyambaro y'impinja.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, aho dusangamo imbuto zigwiriyemo indimu, imifuka irimo ibindi bicuruzwa bitandukanye ndetse n'abantu baje kugura ibyo bicuruzwa.

Mu isoko ahagaragara urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje kugura ibicuruzwa biri mu isoko, aho hacururizwa imiteja, puwavuro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu isoko ahacururizwa imyenda izwi nka caguwa, aho abaguzi baza bayisanga, ndetse ikifashishwa mu buryo bwo kuyambara.

Mu isoko hahurira abantu benshi. Dusangamo ibikoresho bitandukanye, dusangamo ibinyobwa bitandukanye, dusangamo ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, tuhasanga imbuto zikenerwa buri munsi, tubonamo abantu batandukanye babikeneye, bakabyifashisha mu buzima bwabo.

Muri bulanjeri aho dusanga ibikorwa bikorwa mu ifarini birimo gato, birimo amakeke, birimo piza, imigati n'ibindi.

Mwisoko ryibicuruzwa byibiribwa, isoko ritarimo umuntu numwe mu bicuruzwa biri hejuru ibindi biratwikiye ikigaragara mu masaha ya nijoro nta bacuruzi n'abaguzi baririmo.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bizwi nko ku izina ry'ibikapu, aho usanga ibikapu by'abagore byitwa amasakoshi ndetse n'umugore uri kubicuruza, n'umugore wicaye waje kugura iki gikoresho gitwarwa akenshi n'abagore.